Imodoka iparitse imbere y'inzu ndende, ifite ibara ry'umuhondo n'ibara ry'umukara, imodoka ifite ibara ry'umukara, iparitse ku mapave, ku ruhande rwayo hari indi modoka iparitse iri mu ibara ry'umweru.